Umukecuru ugeze mu zabukuru bari gukoresha imyitozo ngororamubiri ndetse afite imvi ku musatsi we, ari gukoreshwa n'umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire ndetse yumukara.